Abantu bagera kuri batatu bari kuhira igihingwa gihehinze mu murima munini cyane, bakaba bahetse ibijerekani birimo amazi bafite n'umupira mu ntoki bari gukoresha buhira.

ahagaragara nko mu murima uhinzemo insina ndetse n'ibindi bihingwa, ndabonamo abagabo batatu, umwe yambaye ijakete y'icyatsi, undi ni ishati y'umweru, undi ni ishati ya karokaro, akaba afite n'agashinge mu ntoki bisa nkaho bari gutera imiti mu bihingwa

Ahagaragara umuntu uri kuhira ibihingwa, hose afite imashini mu mugongo, yambaye ishati y'umweru, afite n'umupira mu ntoki uri guturukamo amazi kandi biragaragara ko uyu murima ari munini cyane.

Ahazwi nk'ahagurishirizwa imiti y'amatungo ndikubona etajeri irimo uducupa twinshi turimo imiti ndetse n'icupa rimwe riteretse ku meza itukura.

Ahagaragara umuntu wambaye itaburiya y'umweru ari kuri mashini, akaba ari mu cyumba gikubiyemo amakemiko agiye atandukanye ndetse n'amamashini yo gupima ibintu bitandukanye.

Umugabo wapfutse amaso yambaye ingofero, ikote ndetse na ga mu ntoki ubona ko afite ubwirinzi ku mubiri we kuko ari gukoresha umuti wangiza, uri kwica udukoko mu bimera kugira ngo bikure neza kandi bishishe.

Ahazwi nk'umu muririma uhinzwemo amashu, haragaragaramo umuntu uri gutera umuti arwanya ubukoko bugiye butandukanye buyangiza, kugira ngo atange umusaruro ukwiriye.

Aho bororera amafi, ku cyuzi kiza cyane. Haragaragara umugabo wambaye ingofero n'ishati ya karokaro. Afite ibyo kurya agaburira amafi ari mu mazi. Akaba abinagamo amafi akitorera.

Ahagaragara icyuzi kirimo ubworozi bw'amafi, impande yaho hahagaze umuntu wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ingofero mu mutwe ufite akadobo mu ntoki karimo nk'ibiribwa ari kugenda ata mu mazi asa nkaho ari kugaburira amafi.

Mu gishanga ahazwi nkaho bahinga umuceri, haragaragara abantu babiri, uw'igitsina gore, ndetse n'uw'igitsina gabo, bari mu gikorwa cyo gutunganya umuceri ndetse no kugabanya amazi arimo.

Ubumwe mu bworozi bw'amafi ni ubworozi bwateye imbere cyane kandi bufitiye, akamaro abaturarwanda nkuko bigaragara hano, ni amafi menshi y'ubwoko bumwe akubiye, ahantu hamwe.

Icyuzi cy'amafi ndabona aho indobani iriho amafi arenga abiri ifashwe n'umuntu wambaye rakosite y'umutuku, ni ibyuzi byubakiwe ndetse bipavomwe na sima ubona ko ari ibya kijyambere.

Ahakunze kugaragara uburobyi bw'amafi, haragaragara ifi bagikura mu mazi ,umuntu akaba ayifashe akoresheje ikiganza cye, ku buryo ubona ko ifi ikiri nzima, akaba ari kuyikanda ngo havemo amazi.

Mu gishitingi hagaragara abasore babiri umwe afite ifi mu ntoki, undi ari kumwitegereza, iruhande rwayo hari amafi menshi ndetse inyuma yabo hari indobani, icyo gishitingi kikaba gifite ibara ry'ubururu.

Kuri shitingi aho bashashe amasaka ahunguye urabona ko akiri mu bisi akeneye kwanikwa, ndi kubona ibiganza bibiri by'umuntu umwe nkaho biri kuyitaho biyayora biyavana hasi biyashyira mu ibasi.

Mu murima haragaragaramo umuntu w'igitsina gore ufite agatebo ahetse mu mugongo witeze igitambaro ufite akanyamuneza mu maso biragaragara ko ibihingwa birimo bishishe.

Ahagaragara igihingwa k'ikawa gisa nk'aho keze kigeze igihe cyo gusarurwa, ndabonamo umuntu w'igitsina gore uteze agatambaro k'umutuku karimo utudomo tw'umweru, ndetse akaba yambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Ahagaragara nko mu murima munini cyane urimo igihingwa cy'icyayi, hagaragaramo abantu batatu bahetse udutebo mu mugongo, bari gusarura icyo gihingwa.

Umurima w'icyayi uragaragaramo abantu bagera muri batatu bari kugisarura, baba bahetse igitebo inyuma ku buryo basarura bashyiramo buri umwe yitabiriye ndetse afite n'ishyaka muri ako kazi.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi abaturarwanda bakunda cyane kandi akaba ari igihingwa giteje igihugu imbere nk'uko bigaragara hano hari ikawa zatangiye kwera kandi zishishe.

Ikawa ni igihingwa cyiza cyane nkuko ndi kubibona hano hariho ikawa yeze ifite urubuto rutukura ndetse n'ibibabi bishishe by'icyatsi, urabona ko igejeje igihe cyo gusarurwa.

Ahakubiye imitiki itandukanye yo kuvura inyamaswa iri mu tuvido dupima litiro imwe, urabona ko hariho imiti ishushanyijeho ikaba ikoreshwa mu gutera inka bayivanaho udukoko n'indi ikoreshwa mu kuyivura.

imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo iragaragara hano mu mama etageri y'aho bayicururiza. Urabona ko hari utudobo tugera kuri dutandatu tw'ubwoko ndetse n'irindi cupa ry'umweru ririmo indi miti itandukanye n'iyo.

Ahagaragara imiti igiye itandukanye yo kuvura inyamaswa ndetse no kwica udukoko tugiye dutandukanye twangiza ibihingwa, urabona ko ipfunyitse neza mu mashashi yabugenewe.

Mukayetajeri ahagaragara amacupa apima ritiro imwe arimo imiti y'amatungo amenshi muri yo afite imifuniko y'umuhondo ndetse irindi rimwe risigaye rifite umufuniko w'icyatsi.

Imiti igiye itandukanye ivura inyamaswa ndetse n'indi yirukana ubukoko bugiye butandukanye, urugero nk'ibinyenzi ndabona iri mu makarito ndetse n'indi iri mu macupa.

Ahateretse imiti igiye itandukanye yo kwica udukoko twangiza ndetse no kuvura inyamaswa urabona ko hari iri mu macupa, iri mu dupaki dusanzwe ndetse n'iri mu bikombe.

Ahazwi nk'aho bacururiza imiti y'amatungo hagaragara imiti yo mu bwoko butandukanye ikaba ikoreshwa ivura amatungo ndetse ikoresha yica udukoko twangiza ibihingwa.

Amacupa menshi cyane ari mu bwoko butandukanye kuko amwe afite imifuniko y'umweru, icyatsi ndetse n'umutuku, akaba yanditseho bitandukanye agaragara mu bikoreshwa mu kuvura amatungo ndetse no kwica udukoko twangiza imyaka.

Ahagaragara umuntu wikoreye inkwi usa nkaho avuye gusenya, akaba yambaye umupira w'umutuku ari ahantu hateye ibyatsi ndetse hari n'uruzitiro rw'ibyuma by'ubururu hirya yaho.

Igihingwa k'inanasi ni kimwe mu bihingwa bikunzwe cyane ndetse bitanga umusaruro iyo byitawe, mu murima wazo hagaragara abantu batatu harimo ab'igitsina gore babiri ndetse n'umwe w'igitsina gabo, hirya yawo haragaragara insina.

Ahazwi nko mu ifamu, aho bororera amatungo magufi azwi cyane ku izina ry'inkoko, ndabona hafi ya zose zifite ibirokoroko ndetse zikaba ziri ku maetajeri akorewe isuka.

Imbaga y'abantu benshi aho iri mu gikorwa cyo gufata imbuto z'ibiti bigiye bitandukanye, kugira ngo babyimurire aho bagiye kubitera, haragaragaramo abantu bafite ubushake ndetse bitabiriye icyo gikorwa cyane bakigize icyabo.

Mu murima haragaragara abahinzi bagiye batandukanye ndetse nabari gukusanya ibyatsi babishyira ahantu hamwe, kandi bigaragaza ko bari gukorera hamwe mu bumwe kugira ngo, basoze umurimo wabo biyemeje uwo munsi.

Ahazwi nk'aho bacururiza amata mu Karere ka Nyagatare hagaragara icyapa kinini cyane gishushanyijeho inka ndetse cyanditseho amagambo biri mu ibara ryirabura.

Ahantu hagaragara umurima urimo ibigori ndetse n'ibindi bihingwa, haragaragara ku ruhande rwawo ikiraro kiri kubakwa n'abagabo babiri abandi babiri bakaba bari guhinga, harimo umwe ushinzwe umutekano.

Ahazwi nko ku kiraro haragaragara inka iri gukamwa ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse umuntu uri kuyikama akaba ari gukamira mu ndobo y'icyuma, akaba yambaye ingofero mu mutwe, umupira w'umweru ndetse na bote mu birenge.

Ahazwi nko ku gasozi hagaragara abagabo babiri, umwe uri imbere, afite igare ari kurisunika rihetse inkwi inyuma ndetse undi amuri inyuma afite umuhoro mu ntoki ze.

Ibijumba ni ibiribwa bikundwa cyane, hano nkaba ndi kubona imifuka irenga umunani y'ibyo biribwa, bikaba ari ibintu bikunze guhingwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda.

Umurima ukasemo imigende myinshi igiye itandukanye hahinzemo igihingwa cy'umuceri, gifasha abaturage gutera imbere ndetse bigafasha n'igihugu muri rusange, ku izamuka ry'iterambere ry'igihugu.

Umurima uteyemo ibiti by'imyumbati nkuko ugaragara ni umurima mugari cyane, hanahinzemo ibishyimbo bikiri bito cyane, ubona ko ari n'umurima usaruwemo ibigori.

Nk'uko turi kubibona muri uyu murima ni ahantu hakorerwa ubuhinzi bwa kijyambere bw'intoryi zikera neza, rero iyo uhasuye abantu bakwereka uburyo wahinga intoryi ukazisasira, mbese ugakoresha n'ifumbire nziza cyane y'imvaruganda kandi rwose nabashishikariza kugera kuri iki kiciro rwose cyo guhinga intoryi kuko zitanga umusaruro.

Ibiganza bibiri byambaye ga zo mu ntoki, nyirabyo akaba yambaye umupira usa move, bikaba birimo ibirayi bigera kuri bitandatu, kikaba kigaragara nk'igihingwa cyeze neza cyane.

Ahazwi nko mu kibaya hakunze guhingwa ibigwa bitandukanye, ubu hagaragara ibigori ndetse n'abantu bagiye bari mu murima ndetse n'ibiti bihagazemo ariko bitari byinshi.

Ibizwi nk'ibiribwa ndetse bihingwa by'imboga n'imbuto hano imbere yanjye, ndi kubona amaronji, imizabibu, indimu, ibitunguru, kokonati na wotameloni, inyanya ndetse n'ibindi ntabashije kurondora, bikaba bizwi nk'ibirinda indwara mu mubiri.

Umurima urimo ibisheke, insina ndetse hasa nk'aho hasaruwemo ibigori kuko harimo ibigorikori byumye bakaba bari kuwuhinga kugira ngo hagemo ibindi bihingwa bishyashya.

Igihingwa k'ibirayi ni igihingwa gikunzwe cyane kandi kiboneka cyane ku isoko, hano haragaragara ibirayi bipakiye mu mifuka bisa nk'aho bigiye koherezwa ku masoko agiye atandukanye.

Umurima munini cyane ugaragara nk'uhinzemo umuceri urabona ko harimo ibintu byinshi bateyemo byo kurinda inyoni kugira ngo ntizibangirize ibihingwa.

Umurima munini cyane ubona ko aho urangiriye hahita hatangira ishyamba ry'inzitane, urabona ko hari hamwe basaruye ahandi hakaba hakirimo ibihingwa ndetse hitaruye, hirya urabona utuntu baba baragiye bubakamo dusa nk'uturinda inyoni ibyo bihingwa.

Mu ishyamba harimo ibiti bigiye bitandukanye, biragaragara ko hafite umucyo, ndetse n'akazuba kari kwakamo, rirashishe kuko ibiti byose bifite ibara ry'icyatsi cyiza cyane.

Mu ishyamba ry'inzitane rifite ibiti bifatanye cyane, haragaragara gitondo mu rukerera, igihu gisa nkaho kiri hejuru y'ibiti bigiye bifite amoko atandukanye.

Ahagaragara igicu gikeye cy'umweru ndetse n'ubururu munsi hakaba harimo ikiyaga ku ruhande hakaba harimo imirima irimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Ahazwi nko mu ishyamba haragaragara ibiti byitaruye ndetse impande yabyo hari ubuhinzi bw'insina ni ukuvuga urutoki urabona ko ari rugari cyane ndetse ruri kwera.

Ishyamba rinini cyane rigizwe n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye by'inganzamarumbo, ahantu hakonja cyane ndetse hari ibyatsi byashishe cyane.

Ishyamba ryiza cyane, ririmo ibiti bigiye bitandukanye, ubona ko ari ibiti bifatanye cyane, bikunze kwita ishyamba ry'inzitane, ubwo rero riba rigaragaramo imiti y'amoko menshi agiye atandukanye.

Iri ni ishyamba rigaragaramo inyamaswa cyane cyane inzovu, bikaba rwose inzovu ari inyamaswa zigira imiryango kandi zunze ubumwe, ubwo rero banyarwanda banyarwandakazi nabashishikariza kuza mukajya musura iri shyamba, kugira ngo mwibonere ibyiza nyaburanga byinshi birigize.

Mu ishyamba ririmo ibiti bigiye bitatanye bigaragara nk'aho hateyemo pasiparume hasi ndetse hagati hakaba harimo ikidendezi cy'amazi asa nabi.

Ishyamba ririmo ihene zigera kuri eshatu, ziri kurisha ibyatsi ndetse n'ibiti byiza cyane byakuze bigiye bitandukanye, akaba ari umurima munini kandi wagutse.

Mu ishyambaganzamarumbo ryiza cyane ririmo ibiti bigiye bitandukanye, haragaragaramo ibyiciro bibiri, hamwe hari ibiti birebire ndetse n'igice cyo hepfo kirimo ibyatsi bigufiya.

Ku ishyamba ry'inzitane, hagaragaramo ibiti bigiye bitandukanye by'amoko atandukanye, byakuze mu buryo bwiza kandi bishishe, bikaba bite ubwoba umuntu kunyuramo ari wenyine.

Ishyamba ririmo ibiti bikeya, rikaba rinakoreshwa mu guhingwa n'abaturage, urabonamo akayira hagati na hagati nyabagendwa ndetse n'ibigori ku mpande bisa nk'ibyumye.

Ahazwi nko mu ishyamba ririmo igishanga haragaragaramo igiti giteye hagati mu mazi ariko kikaba cyarumye kikaba gikikijwe n'ibindi biti byo ku mpande bigitoshye.

Umuhanda wa kaburimbo usatuyemo ibice bibiri ndetse ufite n'ahantu h'abanyamaguru, uragaragara hagati mu ishyamba ry'inzitane, bikaba bigaragara ko bisa nk'ibiteye ubwoba ku muntu waba uri kuhagenda wenyine

Inyanya ni igihingwa gihingwa ahantu hagiye hatandukanye ndetse gifasha abantu mu gutegura amafunguro hano haragaragara abantu babiri basa nkaho bari kuganira ku biciro by'inyanya ziri mu gitebo kuko umwe muri bo ariwe w'igitsina gore afite amafaranga mu ntoki bisa nkaho ariwe uri kuzicuruza.

Ahazwi nka hari imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye bw'ibiti, haragaragaraho umugabo umwe wambaye umupira w'ubururu ufite ikora ry'umweru ndetse n'agapfukamunwa gapfutse amazuru n'umunwa, ufite igiti mu ntoki.

Umwe mu bategarugori ugaragara hano afite terefone mu ntoki ndetse afite n'akamwenyu mumaso yiteze igitambaro ndetse yambaye ishaketi n imbere harimo umupira usa umweru asa nkaho ahagaze mu murima.

Ahagaragara bimwe mubi bihingwa bya pome, ndi kubona pome zeze neza cyane ku biti bishishe, bikaba pome ari igihingwa gifite intungamubiri ndetse kidakunze kwera aho kibonye hose.

Impande y'umuhanda haragaragara icyapa kigaragaza ibibanza byo guhingamo ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse hakaba icyo cyapa kiri mu ibara ry'umweru handitsemo ibara ry'umukara.

Ahazwi nk'ahantu hakunda kuba imbuto z'ibiti bigiye bitandukanye, ndahabona imbere y'ibindi byose igiti cy'umwembe giteye mu ivase gitegereje uzakijyana aho bahinga ibiti bikahakurira neza.

Urusenda ni igihingwa k'ingirakamaro kandi gikundwa n'abantu benshi, ubwo rero nk'uko tubibona uru rusenda nibwo rukiva mu murima ruracyari rubisi kandi rurashishe ntabwo rurajya mu ruganda ngo rwitabweho.

Mu murima munini cyane, ndabonamo umuntu uhagaze wambaye imyenda ya orange, afite umupira mu ntoki, akaba ari kuhira igihingwa gihinze muri uwo murima.

Ahantu hakorotishije senyenge, imbere hakaba harimo ubuzu bwubakishije ibyuma, n'udutara ku ruhande, ndetse n'ibyuma biriho ibara ry'umutuku n'umweru, hagaragara nko ku rugomero rukora amazi, yaba ayo bakoresha buhira imirima, cyangwa afasha abaturage mu mirimo igiye itandukanye.

Mu murima haragaragara ko harimo imipira bari kuhirisha, hakaba harimo abagabo babiri umwe afite umupira mu ntoki undi amuhagaze impande, ruguru yaho haragaragara imodoka izwi nka kwasiteri.

Guhinga kijyambere ni igikorwa cyiza kandi cyubaka Igihugu na buri muturarwanda wese. Hano ndabona igihingwa cy'amashu bari kuhira, urabona ko yakuze neza, ndabona umuntu w'igitsina gore asa nk'aho afite umupira ari kuhira icyo gihingwa.

Ahazwi nko mu murima hari kugaragara umugabo ufite rozwari mu ntoki, uri kugenda yuhira igihingwa ndetse urabona ko yambaye imyenda yabugenewe yo kujyana mu murima.

Mu murima haragaragara umugabo ufashe isuka wambaye isengeri y'umweru n'ikabutura, uri guhinga mu murima munini cyane hejuru yawo haragaragara umuhanda urimo abamotari.

Ahazwi nko mu murima uhinzemo intoryi hagaragaramo abantu batatu, harimo ibitsina gabo bibiri ndetse n'igitsina gore kimwe cyambaye ingofero n'amarinete, bakaba bafite umupira mu ntoki bari kuhira icyo gihingwa cy'uru k'intoryi.

Mu murima munini cyane hagaragara ibikoresho bakoresha buhira bimanitse hejuru bikoze mu mupira bukaba bufungiyeho utuntu twuhira hirya no hino kandi ahantu harehare bigaragara ko ibihingwa byose bigerwaho n'amazi.

Mu murima ahagaragara imipira bagiye bashyiramo yifashishwa mu kuhira ibihingwa, ibi ni ibikorwa bigezweho kandi bifasha abantu kuhira umurima mu gihe gitoya.

Ku buryo bwa kijyambere bakoresha buhira ibihingwa bisa nk'aho baba barashyize imipira hagati mu bihingwa, urabona ko kuhira nta muntu n'mwe urimo ari sisiteme yikoresha.

Ahantu hagaragara umugezi uri guca hagati mu kibaya, urabona ko ari ahantu hafite ubwiza nyaburanga bwinshi cyane, ikirere cyaho kiragaragara nkaho gikeye cyane.

Umurima urimo ibyatsi bishishe cyane ndetse hakaba harimo n'ibiti igice kimwe ubona ko hari ikibaya ndetse n'imisozi myiza cyane, hirya yaho hakaba hitaruye hakaba harimo irindi shyamba.

Ahazwi nko mu kibaya cyiza cyane ku buryo iyo ucyitegeye ubona n'ikirere gikeye gifite ibicu by'umweru ndetse n'ubururu, kikaba ari ikibaya gihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Mu kibaya cyiza kirimo akagezi kagenda gakatakata, hahinzemo ibimera bigiye bitandukanye, harimo insina ndetse n'imikenke, urabona ko hashimishije ndetse hagiye hitarurwa n'imisozi miremire.

Umurima uri ahantu ku gasozi ufite amaterasi meza cyane, biragaragara ko ufite ibihingwa hatarimo ibiti birebire, ahantu hari ikirere cyiza cyane.

Ahazwi nko mu kibaya ndetse gikikijwe n'udusozi dutandukanye, harimo ibihingwa by'ibiti ndetse n'ibindi bihingwa biribwa bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ikibaya kiza cyane gifite ibyatsi bishishe ndetse biri hasi bidafitemo ibiti birebire ikirere cyacyo kirasa neza harakeye ndetse handitsemo n'ijambo ahitaruye dirimu tirimu.

Ahazwi nkaho bororera ingurube mu kiraro cyazo. Hari kugaragara ingurube eshatu ebyiri muri zo zifite ibara ryera, iy'indi imwe ifite ibara ry'igaju.

Ubworozi bw'intama ni ubworozi bukorwa n'abantu bakeya mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragara hano, hari ishyayo ry'intama nyinshi ziri ahantu hakorutiriye, ubona ko ntaho zajya kona cyangwa ngo zigire ibyo zangiza.

Ahagaragara inkoko nyinshi zose zikaba zifite ibirokoroko zikaba zimwe ziri hasi izindi zikaba ziri mu kantu gasa nk'aho bazigaburiramo gakoze mu biti, urabona ko ziri ahantu bazororera kandi hari inkoko zorowe kijyambere.

Ahagaragara ikiraro, urabona ko hijimye utari kureba imbere neza ariko ndabona inka iri kurisha ndetse iruhande rwayo hakaba hari igishyika cy'igiti, ni inka nini kandi ubona ko yakuze neza.

Ahazwi nk'ahororerwa ingurube mu gakoroni kamwe kororerwamo ingurube imwe, ndabonamo ingurube ikiri icyana ifite ibara rimwe ry'umweru, bikagaragara ko yamaze gukorerwa isuku kuko bayisasiyeho ibintu hasi.

Ahazwi nk'ahaboneka ubworozi bw'inka nyinshi cyane, hagaragara nk'ahantu hitaruye hari ubwatsi ndetse n'ibiti, urabona ko hari ishyo ry'inka nyinshi cyane, hakaba hari n'urutoki ruri gutunga inka runaka.

Ahazwi nko mu ifamu ni ukuvuga ahakorerwa ubworozi bw'inka, hagaragara ishyo ry'inka nyinshi cyane ziri hagati mu biti ndetse zimwe na zimwe ziri kurisha ubwatsi.

Ahazwi nk'ahororerwa amatungo magufiya ndahabona inkoko nyinshi ndetse zikaba ziri ahantu hari ibyo kurya byazo ndetse n'aho zinywera amazi urabona ko hari n'utuyetajeri zishobora kuba ziraramo.

Ahagaragara inka zikuze zifite amahembe maremare, hirya yazo hari abagabo bambaye amataburiya y'umweru bafite inkoni bigaragara ko ari abaganga b'amatungo, bari kumwe n'abandi bambaye imyenda isanzwe bazwi ku izina ry'abashumba.

Ibiraro bya kijyambere ni bimwe mu biraro biba byubatse bitandukanye n'ibindi nk'uko hano ndi kubibona ndi kubona ikiraro cyubakishijwe ibyuma naho ibindi menyereye bikaba byubakishijwe ibiti, harimo inka y'inyana ikiri ntoya yambaye iherera mu gutwi.

Ikiraro cya kijyambere kiri kugaragaramo inka nziza cyane kandi zifite isuku; hagaragara abaveterineri baba baje kuzitaho mu buryo bwo kuzitera imiti ndetse no kuzigabanyiriza udukoko tuzirya.

Ubworozi bw'amatungo magufiya, ahagaragara ubworozi bw'inkoko, ndi kubona utuzu bagiye bazubakira tugerekeranye, ukabona ko ari ahantu ziri zisanzuye ndetse zifite umutekano kuko nta kintu cyapfa kwinjiramo.

Ahantu hari inkoko nyinshi cyane urabona ko, ari inyubako nini kandi yubatse neza cyane, buri tungo riri ukwaryo, ubona ko n'amagi ari ukwayo, ugereranyije n'aho zo ziri urabona ko ari ibintu rwose bya kijyambere kandi ari umushinga ufatika.

Mu kiraro ndi kubonamo inka ya kizungu ifite ibara ry'umweru ndetse n'igaju, iri kurya rubingo bigaragaza ko ari ubworozi bwa kijyambere kandi bufite iterambere rigaragara.

Inkoko nyinshi zikubiye ahantu hamwe bigaragaza ko ari ubworozi bwa kijyambere hakaba hagaragara ibikoresho bakoresha bazigaburira ndetse hakaba ku ruhande rwazo hari n'ibase itukura.

Ahazwi nk'ahari ubworozi bw'ihene ziragaragara ko ari nyinshi cyane, ahantu mu kibuga ariko hakorotiriye ubona ko zitarenga irembo ngo zijye konera abaturage.

Mu ishyamba ahari kugaragara umukumbi w'ihene nyinshi hirya yazo hakaba hari abashumba bazo bagera kuri batanu bari kuzibungabunga ndetse bazicungira umutekano ngo hatagira ikizangiza.

Mu kiganza haragaragaramo urubuto rw'ibishyimbo bakunze guhinga bikaza bisa umuhondo, kikaba ari igihingwa gishimisha bamwe mu bahinzi bakizi neza.

Ahantu hari abantu barenga bane, urabona ko bari mu nyubako bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari bamwe mu bashobora kuba batera imiti ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ahagaragara zimwe mu mbuto bakoresha bahinga ibimera bitandukanye, harimo ibishyimbo by'umutuku ndetse n'ibyirabura, harimo ibigori, harimo soya, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu hagaragara inka nyinshi cyane mu byatsi kandi zikuze zifite amahembe maremare, hepfo yazo haragaragara urugo rutuwe n'abantu ndetse n'ibiti birebire bikikije iyo nzu.

Umugabo uhagaze hagati mu kiraro ugaragara nk'aho ari umuveterineri wita ku matungo, yambaye isarubeti y'ubururu na ga zerurutse mu kiganza ndetse n'ingofero y'umweru, hepfo ye hahagaze abagabo babiri bari kwitegereza ibyo ari gukora.

Ahazwi nk'ahari ubworozi bw'inka ziragaragara ari nyinshi cyane zifite amahembe maremare ndetse iruhande rwazo haragaragara abaganga b'amatungo bambaye amataburiya y'imyeru n'abashumba bazo bambaye ibisarubeti by'ubururu umwe muri bo akaba yambaye bote z'umweru ndetse n'ingofero y'umweru.

Ahazwi nk'ahakorerwa ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo magufi ariyo inkoko, ndahabona inkoko nyinshi ziganjemo izirabura, urabona ko hasi baba bahataye ibyo zirya ndetse ku mpande bakahashyira ibiti zigenda ziruhukiraho, ukabona ko ari ibintu biteje igihugu imbere.

Mu kiraro ahagaragara inka nyinshi kandi zikuze z'amahembe maremare, haragaragara abaganga b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe bari mu gikorwa cyo kuzitaho.

Ahazwi nk'ahakunda kuvurirwa amatungo, haragaragara abaganga benshi bahuriye ku itungo rimwe babaze, bambaye amaga y'ubururu ndetse n'amataburiya y'umweru.

Ahazwi nko mu ifamu, haragaragara inka nziza cyane zizwi nk'inyambo ndetse haragaragara umuntu wambaye ikaburiya y'umweru, asa nkaho ari veterineri uri kuzivura ndetse n'abashumba bazo bagera kuri babiri bambaye ibisurobeti by'ubururu.

Ahazwi nko kuri busheri hagaragara abantu bambaye amaga mu ntoki ndetse n'amataburiya asa umweru basa nkaho bari ahantu hamwe hari kugaragara inyama nyinshi hasa nko ku meza.

Inka nyinshi cyane zifite ibara ry'igihogo ubona ko zose zikuze kandi zifite amahembe maremare, imbere yazo haragaragara umushumba wambaye ishati y'ubururu.

Ahazwi nko mu buturo bw'inyamaswa zo mu ishyamba haragaragara inyamaswa zizwi kuizina ry'ipara ndetse n'ishyo rinini cyane riri hagati mu ishyamba, urabona ko zose zitegeye ziri kureba ahantu hamwe.

Ahazwi nk'aho inyamaswa zo mu ishyamba zibera muri parike, hagaragara ubwoko bw'inyamaswa nyinshi cyane, harimo imparage, impara, inzovu, ndetse na girafe, hazwi cyane agasumbashyamba.

Ahazwi nko muri parike, aho inyamaswa z'ishyamba zituye. Haragaragara inyamaswa zigiye zitandukanye. Harimo ingagi, jirafe, elefanti, impara, intare, ingwe ndetse n'izindi.

Mu muhanda nyabagendwa haragaragaramo imbwa zigeze kuri enye, harimo ifite ibara ry'umutuku kandi izo mbwa zose zirakuze bikaba ari ibintu biteje inkeke kuko umwe mu bagenzi ashobora kuyikanga cyangwa ikagira uwo ibangamira.

Mu ishyamba hakunze kugaragara inyamaswa z'ishyamba, imbere yanjye ndi kubona inyamaswa ntari gusobanukirwa ubwoko bwazo, ziteraniye hamwe ari nyinshi cyane.

Akanyamaswa ko mu ishyamba gateye nk'imbeba, gafite umurizo mugari ufite utwoya, urabona ko kari kureba ku ruhande gahagaze ku kintu imbere yacyo hari igiti.

Mu mu ishyamba niho hagaragara inyamaswa z'i gasozi, izizwi cyane nk'ibishuhe ndetse zikaba zifite ingenzi zazo ziba mu ngo zikaba zo zitwa imbata.

Ibiguruka ni bimwe mu nyamaswa z'ishyamba nkuko ndi kubona inyoni iri mu kirere ifite amabara y'umweru n'umukara iri kuguruka urabona ko ifite intumbero yo gukomeza imbere.